Umugabo munini cyane wambaye umupira uzwi nka jezi afite mikoro mu ntoki ifite akantu k'umuhondo ari kuvuga, biragaragara ko ari gutanga igitekerezo ke mu nama kugira ngo n'ikibazo afite ahave gikemutse.

Siporo rusange ni kimwe mu bikorwa bihuriza abantu b'ingeri zitandukanye, hamwe. Iyi ni siporo iba ngarukakwezi ku buryo abayobozi bo mu nzego nkuru bahura n'abaturage ba rubanda rwa giseseka.

Inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye baba urubyiruko, abagore, abakecuru ndetse n'abirabura barimo abaturutse mu gihugu cya Nigeria bose buri umwe afiate ikayi ndetse n'icupa ry'amazu imbere ye.

umugabo uteranije abantu hamwe kugira ngo abasobanurire iby'Imbuto foundation, bamuteze amatwi. Yambaye umukandara w'uruhu, yambaye ishati y'umweru, arangije aratetegereza, afite mikoro ndetse yambaye n'amarinete.

Umugabo ugaragara nk'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, yambaye ishati ijya gusa n'ubururu, afite isaha ku kaboko yambaye n'amataratara. Afite agasatsi gake, mikoro afite irasa n'umukara cyane.

Abagore babiri n'umugabo umwe biragaragara ko bari bari mu bikorwa byo kwitabira gutanga mituweli, uyu nguyu arashimirwa kubera ko yagize uruhare mu bukangurambaga bwafashije abantu gutanga mituweli, akongeraho na gahunda ya ejo heza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe buri wese yicaye ku ntebe ye, icyo bahuriraho kindi ni uko buri umwe afite ikayi n'ikaramu, bafite udukomo kuri buri umwe kandi harimo n'abambaye amakoti nk'abatashye ibirori by'ubukwe.

Imbuto foundation, ni umuryango ugirwamo uruhare na Nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika y'u Rwanda, Jeannette Kagame, aho afasha abakobwa kugira urwego rumwe bavaho, bagera ku rundi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye mu cyumba k'inama buri umwe yicaye ku ntebe ye afite telefone, amacupa abiri, icupa rimwe ririmo amazi irindi cupa ririmo umutobe, buri umwe ateze amatwi umuyobozi ibyo amubwira.

Mu rwego rwo kumurika umuco nyarwanda intore iyo zibyina zihamiriza usanga abakaraza bafata umurishyo bakavuza ingoma hanyuma noneho intore na zo zikabyinana ingabo n'icumu mu ntoki wabireba ukabona byizihiye amaso.

Mu rwego rwo kumurika umuco nyarwanda abakobwa bagenda bakenyeye imikenyero, hanyuma bajya mu marushanwa mpuzamahanga bakabasha kwitwara neza ku buryo nta wababahiga, ibi ngibi bituma umuco nyarwanda ukomeza kubungabungwa nk'igicumbi cy'umuco uturanga.

Igiseke ni kimwe mu biranga umuco gakondo, aho ikigaragara, kiboshye mu rukangaga ndetse n'ishinge. Ibi byose byakozwe mu rwego rwo kugira ngo kizamurikwe, aho imico y'ibihugu bitandukanye iba ihatanye.

Igicuma cyaciwemo kabiri gikurwamowo uruho, ikindi kirateretse kirimo umuheha byombi birambitse ku nkoko, uyu muheha uri muri iki gicuma biragaragara ko ari ikiziranyenzi cyabajwe neza.

Inkongoro akenshi usanga ishyirwamo amata ariko kuri ubu bitewe n'uko iterambere rigenda rizimiza ibikoresho bimwe na bimwe bya gakondo, ubu zisigariye i Nyanza mu rukari ndetse no mu nzu ndangamurage y'u Rwanda iherereye i Huye.

Inka gakondo kera wasangaga zambitswe uruheti cyangwa se urugori zikabasha kubyitwaramo neza mu gihe ziri kumwe n'intore mu mihango yo gususurutsa abitabiriye ibirori.

Umukobwa uri kumurika ibijyanye n'umuco, afite igicuma kirimo umuheha, ari kunywa urwagwa. Ni umukobwa wambaye urunigi mu ijosi ndetse akaba akenye ni n'igitambaro mu mutwe.

Ibisabo ni ibicuma binini cyane byacundirwagamo amata kera n'abagore nta mugabo wacundaga amata abagore kuri ubu ngubu basigaye babyifashisha mu gihe bagiye guseruka mu mico y'ibindi bihugu ku ruhando mpuzamahanga.

Ipoto y'amashanyarazi ihurizwaho insinga zitandukanye izwi nka taransifo ihagaze mu gihogere, ni ahantu hari umuhanda utari nyabagendwa ku buryo byagorana ko wahaca nijoro kuko bahita bakugirira nabi amabandi aba ahari.

Ikirere kigaragara nk'ikidaheruka kugwamo imvura, igicu kirimo kirasa umweruru cyane ubundi ibara ryo ni ubururu bwacyo bugaragara, urebye neza munsi haragaragara ipoto rinini cyane ririho insinga nyinshi rikwirakwiza amashanyarazi mu mujyi wa Kigali.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu bijyanye n'ubugeni n'ubukorikori usanga harimo n'abavumbuzi ku buryo bashobora gukora iby'amashanyarazi bikagutungura kandi ntabyo wari uzi.

Mu bice by'icyaro ahataragera umuriro usanga abenshi bafite imirasire, umurasire akenshi usanga uri mu mpande enye rimwe na rimwe hari ubwo aba ari kare cyangwa se urukiramende kugira ngo ibashe gu kurura izuba neza.

Amapoto yubatse mu buryo bwa kijyambere, biragaragara ko ari inyambukiranyamipaka. Uyu muriro nk'uko bigaragara bitewe n'imbaraga ufite, wambukiranya igihugu cya Tanzania, u Rwanda ndetse n'u Burundi.

Muri gahunda yatinyuka ashoboye, umugore yahisemo kujya kwiga ibijyanye n'amashanyarazi kugira ngo azabashe gukura umuryango we mu bukene, yagiyeyo abenshi bamuseka ariko abasha kubigeraho kuri ubu ni umwe mu bagore biteje imbere.

Ni byiza ko mu ihuriro ry'aho irahuriro ry'umuriro w'amashanyarazi uherereye haba hari inzobere mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ku buryo mu gihe cyose ubuze bagomba guhita bagenzura neza bakamenya ikibazo gihari.

Umugabo ukora mu kigo cyiigihugu cy'mashanyarazi gishinzwe ingufu REG, yambaye agapfukamunwa gasa n'ubururu bw'ikirere, ingofero y'umuhondo n'ijire isa n'icyatsi, ari gukanika ngo arebe aho byapfiriye.

Umukozi w'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ingufu, yambaye itaburiya yanditseho magana ane mirongo ine n'icyenda ndetse inanditseho REG, yambaye ingofero ya kasike imufasha kwirinda impanuka mu gihe yakwitura hasi.

Umugabo w'umukanishi wambaye imyenda ya kaki afite imashini isudira ndetse inakata ibyuma, biragaragara ko ari mu kazi ko gukora intebe ndetse n'ameza byumvikana ko ari umubaji.

Mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rukomeze guhora ku isonga mu bikorwa by'iterambere, ibice by'icyaro na byo bigenda byegerezwa umuriro w'amashanyarazi, aho utaragera gahunda ya Tubura yashyizeho uburyo bwo gutubura umusaruro ariko ikanatanga imirasire ku baturage.

Ku gicumbi cy'Umudugudu wa Barija hariho ikirango cy'icyapa kigaragaza ko ari mu Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare mu kagari ka Barija, angaha reho kirazira kugira umwanda no kugambanira Igihugu no gutererana abari mu bikorwa by'iterambere.

Inyubako za Leta inyinshi usanga zarakuweho amabati yashoboraga guteza ibyago hashyirwaho amabati mashya, aho zisigariye ni ku nyubako za Kiliziya Gatulika na ho bakangurirwa kuzikuraho bwangu.

Mu rwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage bitasigana n'ibikorwa remezo, abaturage bo mu kagari ka Rango bubakiwe isoko rya kijyambere kandi rigezweho ku buryo kuri iyi nshuro batakinyagiranwa ibicuruzwa byabo, n'abaje kubagurira ngo babyinubire kuko imvura yabyangije.

Inyubako nini cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, biragaragara ko ishobora kuba ikoreramo minisiteri imwe, ebyiri cyangwa se eshatu bitewe n'uko ingana, ukurikije uburyo yubatse yubatse mu buryo bugaragaza umuco gakondo ariko bya kijyambere.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe na leta ku bufatanye n'abaturage, biragaragara ko waje ukenewe. Hariho ibice bibiri. Igice kinyuramwo abanyamaguru ndetse n'igice kinyuramo ibinyabiziga, utibagiwe n'ibinyamitende nk'amagare n'amamoto.

Mu rwego rwo kugira ngo Leta y'u Rwanda ikomeze kwegereza abaturage ibikorwaremezo usanga imihanda y'ibyaro ahadashobora kugera kaburimbo, bakora ibishoboka byose bagashyiramo imihanda y'amabuye cyangwa se amapave.

Ibiro by'Akagari ka Mutesi biragaragara ko byavuguruwe kubera ko kera byari byubakishijwe amatafari ya rukarakara bisakajwe amategura. Kuri ubu byubakishije amatafari ahiye, bisakaje amabati.

Mu rwego rwo gukomeza kubungabunga no kuvugurura ibikorwaremezo bishaje, Leta ikomeza gushyiraho uburyo bwo kubaka ibi bikorwaremezo by'umwihariko ikibanda ku mateme ahuza uturere kuko bifasha mu mihahiranire.

Inyubako za Leta akenshi na kenshi usanga hari abashinjwa ko iyo ziri kubakwa bakuramo amafaranga bakubaka ibintu bitajyanye n'igihe kandi bitanakomeye, abo ngabo Leta yarabahagurukiye ngo bakanire urubakwiye.

Inyubako za Leta akenshi na kenshi usanga ziba ziri ku mihanda, izi zigaragara aha ngaha ziri mu mabanga y'umusozi aho zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hari amasoko rusange ndetse n'amavuriro rusange.

Abagabo basaga ikenda bahagaze hamwe bari kumwe n'umupolisi. Umupolisi afite ibendera ry'u Rwanda ku rutugu, ku mifuka y'ishati handitseho amazina ye n'ipeti afite. Aba bagabo bombi biragaragara ko ari abakozi ba minisiteri runaka.

Inzu nini cyane ngari ifite n'izindi ziyishamikiyeho ku ruhande, iruhande rwayo haparitseho imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, hariho icyapa kandi kigaragaza ko ari inyubako za Leta.

Umuhanda nyabagendwa wubatse hagati y'imisozi ibiri biragaragara ko iyo ukomeje kuwugenda uhita ugera ku kigo cy'amashuri abanza ariko hakaba ariho n'amashuri yisumbuye, ibi byose byakozwe mu rwego rwo kwegereza abaturage ibikorwaremezo.

Inyubako za Leta yaba izitangirwamo serivisi z'ubuzima, izitangirwamo serivisi z'uburezi n'ibindi bitandukanye, usanga Leta yarashyizeho gahunda yo gukuraho amabati yashoboraga guteza kanseri bagashyiraho amabati mashya.

Ikigo cy'amashuri bigaragara ko ari amashuri abanza, abanyeshuri bahigira usanga bahabwa buri kimwe cyose kugira ngo babashe kugera ku iterambere mu burezi bwabo, rimwe na rimwe iyo hari umwana utumva neza ibyo yigishwa na mwarimu aba akwiye kwitabwaho cyane kuruta abandi.

Inyubako nyinshi za Leta ubona ko hashyizwemo imivugururire mu kuzubaka, kera rwiyemezamirimo yarazaga agapatana inzu yamara kuyubaka yarahawe amafaranga akigendera ariko kuri ubu akoresha amafaranga ye akazishyuza nyuma.

Urujya n'uruza ku mupaka w'u Rwanda na Uganda abagore ndetse n'abagabo abinjira mu Gihugu cy'u Rwanda n'abasohoka, ku byapa bigaragaza uko ibintu biteye haranditse ngo urugendo rwiza ku basohoka bajya muri Uganda naho abinjira mu Rwanda bo hari amagambo ababwira ngo muhawe ikaze.

Iyi sitade nubwo ari nziza ntiyagera ku rwego rwa Sitade Amahoro, mu Gihugu cy'u Burundi na ho haherutse kuba impanuka aho ipoto ryagwiriye sitade uruhande rwose rugasenyuka.

Ushinzwe umutekano mu karere yaje guhugura abaturage, anabigisha ko ibiyobyabwenge ari bimwe mu bituma umutekano wabo uba muke, hanyuma ubukungu bwawo bukadindira kubera ko uwanyoye ibiyobyabwenge atabona umwanya wo gukorera umuryango we.

Imbaga nyamwinshi y'abaturage bitabiriye inama y'umuyobozi w'Akarere uzwi ku izina rya Meya, ari kumwe n'abayobozi b'Imirenge barimo bungurana ibitekerezo by'uko bashobora kuzitwara neza mu mwaka utaha w'imihigo.

Mu rwego rwo gutanga ubutabera bunyuze mu mucyo, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'uko ibibazo by'abaturage n'ibyaha bigomba kujya biburanishirizwa mu nkiko gacaca hanyuma abakorewe ibyaha bagahabwa ubutabera bunoze.

Abagabo mbona bararenga batanu. Iyo ubaze neza ushobora gusanga bagera ku munani. Bombi bahagaze mu matsinda. umugabo umwe afite inkoni, arasa naho ari gusaba ibisobanuro, ahagaze iruhande rw'imodoka ifite amapine y'umukara.

Mu rwego rwo kugira ngo hakomeze kwimakazwa umuco w'amahoro Leta y'u Rwanda ibinyujije mu bijyanye n'ubutabera abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bagiye bababarirwa binyuze mu nkiko Gacaca.

Mu rwego rwo kugira ngo ubutabera butangwe buri hamwe ni byiza ko ingabo na polisi na zo zegera abaturage, aha ngaha bari bari mu bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane.

Ubutabera buba bukenewe kugira ngo bufashe kurengera uburenganzira bwa muntu budahonyowe, rimwe na rimwe usanga abazungu nubwo bigisha, kwirengera no kurengera uburenganzira bwabo rimwe na rimwe na bo babuhonyora.

Ni byiza ko imodoka rusange zitwara abagenzi zigomba kuba zarakorewe ubugenzuzi kubera ko imodoka zishobora kuba zateza ibyago birimo n'urupfu mu gihe abazitwara batigeze bazijyana kuzigenzuza.

Umugabo uhagaze imbere ya moto ifite umufuka ndetse na pulake y'umuhondo ategereje imodoka, inyuma ye hari abandi bagore n'abagabo bicaye mu kazu abagenzi bategererezamo imodoka kugira ngo zibajyane aho bifuza kujya.

Imodoka itwara imizigo izwi ku izina rya Fuso iri kugenda mu muhanda w'igitaka, biragaragara ko yahakase inshuro nyinshi kubera ko amapine yayo yahishushanyije inshuro zirenze imwe agenda anyuranamo.

Umuhanda utari kaburimbo ariko wubatse neza wubatse mu gice k'icyaro si umuhanda nyabagendwa cyane, ni umuhanda wanyereraga mbere y'uko ushyirwamo garaviye y'umutuku ariko kuri ubu nubwo hanyuramo imodoka imeze ite ntishobora kunyerera.

Abamotari babiri bari kugenda baganira gusa umumotari umwe nta kasike yambaye, undi yambaye kasike y'umweru, umupira w'umweru n'inkweto z'uruganda rwa Nike, bari kugenda mu muhanda w'amabuye berekeza mu muhanda wa kaburimbo.

Umumotari uri mu muhanda wenyine atwaye moto, ahetse icupa ry'amazi ya Jibu afite na kasike mu ntoki ndetse yambaye n'indi, nabona umugenzi aramuha kasike imwe, hanyuma na we umutware babasha kugera iyo bajya.

Icyapa gishinze mu umuhanda utari nyabagendwa, gishinze impande y'ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane bitandukanye. Ibyo biti utitegereje neza ushobora gutekereza ko ari ibiti kimeza ariko kubera kubitera hagashira igihe ni ibiterano.

Mu rwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage Leta y'u Rwanda ikangurira abayobozi bose ko badakwiye kuba mu biro ahubwo bakwiye kumanuka bakajya kwegera abaturage ibibazo bbyabo bakabikemurira aho bari, aba baje mu bikorwa by'umuganda kugira ngo nyuma y'umuganda baze gukemura ibibazo abaturage bafite.

Imbaga nyamwinshi yateraniye hamwe ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA, aho ari icyorezo gikomeje koreka imbaga haba mu Rwanda ndetse no ku Isi muri rusange, iyo ugiye mu mibare usanga bakubwira abantu bandura SIDA ku munota ubwoba bukagutaha.

Ingabo ndetse na Polisi usanga iyo hari igikorwa cy'umuganda rusange bifatanya nabo bakabereka ko bari, kumwe mu gihe bitandukanye n'ibyo muri Repubulika yabanje aho wasangaga kubona umusirikare warumvaga ugwiriwe n'ishyano.

Umugabo ufite inda bigaragara ko yatangiye kurya amafaranga kera afite ikoti yambaye, biragaragara ko ibipesi bisumbana ingofero nayo ntayikozwa.

Mu rwego rwo gukomeza kubungabunga umutekano leta yashyizeho urundi rwego rwunganira urwego rwa polisi n'urwego rw'ingabo ari rwo dasso kugira ngo buri murenge uba ufite abadasso ushobora gucunga umutekano mu tugari tuba tuwugize.

Mu rwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage abayobozi b'ingabo na polisi usanga begereye abaturage kugira ngo babashe gufatanya ibikorwa by'umuganda rusange banarebere hamwe uko barwanya ibiyobyabwenge.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iteraniye hamwe yiganjemo abagore, abagabo inkumi n'abasore bari kumwe n'abashinzwe umutekano bo mu byiciro birimo abadaso, abapolisi n'abasirikari bose basoje igikorwa cy'umuganda.

Abaturage bifatanyije n'inzego z'umutekano zirimo urwego rwa daso, urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'ingabo kugira ngo bakore umuganda wo gusibura imihanda yasibwe n'ibiza, bityo umuhanda wongere kuba nyabagendwa.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe irishimira ko Akagari kabo kabaye aka mbere ku rwego rw'Akarere bakaba biteguye no kujya guhatana ku rwego rw'Intara kugera bageze ku rwego rw'Igihugu mu bijyanye no kuba baragize umusaruro mwinshi.

Umugore ubyibushye wambaye umupira w'umutuku numero icumi mu mugongo yambaye inkweto z'ubururu n'umupira wikipe ya manchester united yambaye numero icumi ikaba yambarwa n'umukinnyi witwa Markasracsh Ford.

Abakinnyi batatu bakina mu mutima w'ubwugarizi biragaragara ko barindiriye ko ikipe yabo mu gice cy'ubusatiric itsinda, ariko nabo bahagaze biteguye kugira nibat bazakwa baze kugarira neza ikipe bahanganye ntize kubabonamo igitego.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye ijezi y'ubururu bari gukina n'abambaye igezi y'ubururu bw'ikirere bose bari kwiruka ku mupira, biragaragara ko izuba riri kuva cyane kubera ko bari gukina iminota mike bagahita bajya gusoma ku mazi.

Umupira w'amaguru ntabwo ukiri umukino w'abagabo gusa kuko mu Rwanda nabwo hari abamaze kwisobanukirwa bakamenya ko abakobwa bafite impano yo gukina umupira w'amaguru byabatunga ndetse bakaba banabifatanyiya n'akandi kazi bitabangamiye amasomo yabo.

Umukinnyi wambaye ijezi y'ubururu irimo mabara y'icyatsi kerurutse ndetse n',ubururu bwijimye ahagaze mu kibuga ategereje umusifuzi ngo amuhe uburenganzira hanyuma atangize umukino.

Imikino y'umurenge kagame kapu yo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane biri na makumyabiri na gatanu yahuje Karangazi ihura na Mukama, Musheli ihura na Kiyombe, Nyagatare na Gatunda, Katabagemu ihura na Rukomo na ho Mimuri ihura na Rwempasha.

Umukinnyi bigaragara ko ariwe kapiteni w'ikipe igiye kujya mu kibuga yambaye nimero ebyiri, byumvikane ko akina muri ba myugariro ku ruhande rw'iburyo yambaye amasogisi, yambaye inkweto, ndetse afite n'agasatsi gake.

Mu Rwanda rwo hambere umwari wumvikanaga yagiye gukina umupira w'amaguru yafatwaga nk'icyomanzi ariko kuri ubu bitewe n'amafaranga abirimo umupira w'amaguru ukaba ushobora kuba akazi ku bana b'abahungu ndetse n'abakobwa, ababyeyi ntibakibakumira.

Mu rwego rwo kugira ngo umupira w'amaguru ukomeze utere imbere hadasigaye ikiciro cy'abari n'abategarugori, shampiyona y'u Rwanda isaba buri kipe y'abagabo kugira ikipe y'umupira w'amaguru y'abari n'abategarugori.

Abagabo batatu bakina umupira w'amaguru nk'abatarabigize umwuga, impamvu mvuga ko batabigize umwuga ni uko bafite inda nini zizwi nk'ibidari, iyo urebye amaguru yabo bose bagenda imitego.

Abagabo bane ni bo bagaragara inyuma y'aho ariko uko biri kose hariyo abandi bagera kuri barindwi kugira ngo cumi n'umwe bajya mu kibuga buzure, hanyuma bagategereza uburenganzira bw'umusifuzi umukino ugatangira.

Mu rwego rwo kugira ngo abakurikira umupira w'amaguru ku masitade babe baryohewe, Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda izivugurura. Sitade amahoro ni yo yabanje iravugururwa iba mpuzamigabane.

Sitade y'Akarere ka Bugesera imwe mu ma sitade yabereyeho ibikorwa bigayitse mu mwaka ushize w'imikino muri shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League, biragaragara ko umwaka utaha w'imikino igomba kuzaba yaravuguruwe kugira ngo ibyabaye bitazongera.

Abakinnyi barimo bakina umupira biragaragara ko bashobora kuvunana hatarimo umusifuzi abari gukina bambaye imyenda y'umutuku abo bahanganye bambaye imyenda yubururu busa n'ikirere ibingibi rero bituma ishyaka rizamuka kubera ko buri mukinnyi aba areba umukinnyi we basa.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice bitatu biragaragara ko utari nyabagendwa bitewe n'uko nta binyabiziga nta n'abagenzi benshi banyuramo, iruhande rwawo hari ibyatsi bisa n'aho bitohagiye, ikindi kandi ni uko uyu muhanda urimo aho imodoka zigomba guparika.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'umuntu umwe n'imodoka imwe biragaragara ko utari nyabagendwa gusa wubatse mu buryo bugezweho uruhande rumwe rw'ho abanyamaguru bagomba guca iburyo n'ibumoso ndetse n'aho imodoka n'ibinyamitende bigomba guca.

Umunyonzi uri guca mu kayira k'umugenderano karimo ibyayansi, ni akayira gakozwe n'ibisima byabumbwe n'uruganda rwa NDP, aho uyu munyonzi ari kunyuza igare, afite umufuka wagira ngo avuye mu isoko.

Umuhanda nyabagendwa nubwo ari umugenderano uri mu giturage hari kugendamo moto imwe, ni umuhanda ufite ibice bitatu, igice cya mbere ni icy'abanyamaguru b'iburyo, icya kabiri ni icy'abanyamaguru b'ibumoso, hanyuma igice cyo hagati gicamo ibinyamitende n'ibinyabiziga.

Umumotari ari mu muhanda wenyine bigaragara ko ari mu muhanda utari nyabagendwa nubwo ari kaburimbo, ni kaburimbo irimo akarongo k'umuhondo gatandukanya igice k'epfo n'igice cya ruguru, igice k'epfo gicaho ibinyabiziga bizamuka, icya ruguru kigacamo ibinyabiziga bimanuka.

Umuhanda nyabagendwa w'umugenderano wubatse mu Mudugudu runaka ushashemo amapave kubera ko gushyiramo kaburimbo bitari kuza koroha gusa iyo umaze kuwurenga uhita ugera muri kaburimbo ifite ibice bitatu, icy'abagenzi b'iburyo n'ibumoso ndetse n'ik'ibinyabiziga nk'imitende ndetse n'amamodoka.

Mu rwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage usanga ibyo bitarasigaye no kubegereza ikijyanye n'ubuvuzi kubera ko buri kigo nderabuzima byibura mu gihugu gifite imbangukiragutabara itwara abarwayi barembye cyane ibageze ku bitaro.

Igice cy'umuhanda kiriho ahari amapave ashashe mu buryo bwa kijyambere. Aya mapave aragaragara ko akoze muri sima n'umucanga ndetse n'amabuye byakacanzwe n'imashini zabugenewe. Iyi ni imihanda igenda yubakwa no mu midugudu, mu nzira z'imigenderano.